Abana bato bane bahagaze rwagati mu muhanda, umwana uri imbere yambaye ipantaro y'ubururu ndetse yambaye n'umupira w'ingofero w'amaboko maremare, yambaye n'inkweto zifunguye, inyuma yabo hari insina, ziteyemo ibiti ndetse zegeranye.

Abana bato bakoze uruziga, bamwe muri bo bazamuye amaboko, bari kumwe n'abagore babiri, umugore uri ku ruhande rw'iburyo yambaye igitambaro mu mutwe, inyuma yabo hari imiyenzi, ndetse hari n'inyubako yubakishije amategura ndetse n'indi yubakishije amabati asanzwe.

Umugore uri rwagati mu bana bakoze ikiziga ndetse bambaye impuzankano, yambaye ipantaro y'umukara ndetse n'agapira gatukura, inyuma arenzaho ikote ry'umukara, ku ruhande rw'iburyo hari umugore wambaye igitambaro mu mutwe ndetse ukenyeye n'igitenge, inyuma yabo hari umurima uteyemo insina ndetse n'ibigori.

Abana bato bakuyemo inkweto ndetse bicaye ku kumukeka, bafashe amafunguro ndetse imbere yabo hari umubyeyi ukenyeye igitenge ndetse yambaye n'ishati ateze n'igitambaro cy'umweru mu mutwe ari kubaha amafunguro ndetse arunamye amasura yabo ntagaragara.

Abana bari mu kigero kingana bicaye ku mukeka, bamwe muri bo bambaye impuzankano abandi bambaye imyenda isanzwe itandukanye, inyuma yabo hari icyapa kiho amagambo ndetse inzu barimo iteye irange ry'umuhondo ndetse n'ibara ry'umweru, hashushanyijeho n'ibishushanyo by'ubwoko butandukanye.

Abana bato bicaye ku mukeka utatse amabara atandukanye, bari kunywera mu bikombe by'amabara abiri, babiri nibo bafite ibikombe bisa by'icyatsi, abandi bafite ibikombe bisa, imbere yabo hari umubyeyi uteze igitambaro mu mutwe ndetse ukenyeye n'igitenge, wambaye n'iribaya, inyuma yabo hari inyubako y'amatafari ya rukarakara.

Abana batoya bafatanye urunana, hagati yabo hari umugore ubahagazemo wambaye igitenge ndetse n'umupira w'umweru ateze n'igitambaro mu mutwe, inyuma yaho hari inzu yubakishije amatafari ahiye ndetse n'amatafari ya rukarakara.

Ibyumba by'ishuri bisize amarange atandukanye ndetse byubakishije amatafari ahiye, bisakaje amabati y'ubururu harimo n'ashaje, imbere yabyo hari imiyenzi yumye ndetse izitiye ikigo.

Abanyeshuri bambaye impuzankano bari gukora imirimo itandukanye, hejuru yabo hari urusinga rw'amashanyarazi rufashwe n'ipoto ry'igiti, ku ruhande rw'ibumoso hari icyumba cy'amashuri ndetse no ku ruhande rw'iburyo hari icyumba cy'ishuri.

Abanyeshuri benshi b'ingeri zitandukanye, bari ku izuba ndetse bambaye impuzankano, bakikijwe n'ibyumba by'amashuri ndetse bari hagati mu kibuga, hari kuva izuba ndetse bamwe muri bo bafatanye ibiganza, bari gukina imikino itandukanye.

Inyubako y'ikigo cy'amashuri, ishaje yubakishije amatafari ahiye ndetse, isakaye ifite inzugi n'amadirishya by'ibirahuri, imbere yayo hari ubusitari ndetse, izitije senyenge, hari abanyeshuri bari mu muhanda bambaye impuzankano zidasa ndetse, hari n'amabuye ari mu muhanda rwagati.

Abanyeshuri batatu bafatanye ku rutugu, imbere yabo hari indabo ndetse n'ibyatsi, ku ruhande rw'iburyo hari inyubako isize amarange atandukanye ndetse isakaje n'amabati y'ubururu, ku ruhande rw'ibumoso hari inyubako isakaje amategura ndetse yubakishije amatafari ahiye.

Abanyeshuri bari mu kigero kimwe bahagaze, bamwe muri bo bambaye impuzankano abandi bambaye imyenda isanzwe, inyuma yabo hari inzu yubakishije ibiti ndetse hari n'icyumba cy'ishuri n'ibiti bigandaye, imbere yabo hari akarima k'imboga ndetse gakikijwe n'abanyeshuri.

Abanyeshuri bambaye impuzankano z'ubwoko bubiri butandukanye, inyuma yabo hari ibyumba by'amashuri ndetse imbere yabo hari umugabo wambaye umupira w'umukara w'amaboko magufi, ndetse yambaye n'ipantaro ari gutambuka.

abana batatu bari rwagati mu muhanda bari kugendera umujyo umwe, umwana uri ku ruhande rw'ibumoso ahetse igikapu mu mugongo n'akaboko kamwe ndetse imbere yabo hari ibyumba by'amashuri bikikijwe n'ibiti by'imiyenzi ndetse n'ibiti bigandaye bikuze.

Abanyeshuri bari imbere y'ibyumba by'amashuri, bisakaje amabati y'ubururu ndetse biteye n'amarange atandukanye ndetse n'inzugi n'amadirishya by'ibirahuri, imbere yabo hari ubusitani bw'indabo ndetse n'umusore wiyogoshesheje wambaye umupira w'umukara.

Icyapa cyanditse mu magambo mu rurimi rw'Icyongereza kiri ku muhanda, inyuma yacyo hari igiti kigandaye ndetse hari n'abamotari bari kuri moto, imbere y'abamotari hari umugore witeze igitambaro cy'umukara ndetse imbere yabo hari umuhanda wa kaburimbo.

Abanyeshuri b'ingeri zitandukanye ndetse bambaye impuzankano, hasi bambaye kaki hejuru bambaye amashati y'ubururu, imbere yabo hari abandi banyeshuri bari mu gicucucucu, amashuri abakikije arashaje ndetse n'amabati yayo arashaje.

Abanyeshuri bambaye impuzankano bahagaze rwagati mu kibuga batatanye, inyuma yabo hari ibyumba bitatu by'amashuri, icyumba kiri hagati gisakaje amabati y'ubururu naho ibyumba bibiri bigikikije bisakaje amabati atukura.

Abanyeshuri bari imbere y'ibyumba by'amashuri, bisize amarangi atandukanye, ndetse byubakishije n'amatafari ahiye, bisakawe mu buryo bugezweho. Umunyeshuri uri hagati ahetse agakapu k'igitenge mu mugongondetse yambaye n'inkweto zifunguye.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto z'umukara n'umupira w'umweru, ahagaze rwagati, akikijwe n'abanyeshuri b'ingeri zitandukanye ndetse bambaye impuzankano mu cyumba cy'ishuri gifite inzugi n'amadirishya by'ibirahuri.

Abanyeshuri bambaye impuzankano b'ingeri zitandukanye, bicaye mu nzu mberabyombi ndetse bambaye n'amakarita mu ijosi, inzu bicayemo yubakishije amatafari ahiye ndetse ifite imiryango ibiri ku ruhande rw'inyuma, icanyemo n'itara rimwe.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye ndetse ya kera, imbere yayo hari ubusitani bugizwe n'indabo ndetse n'ibiti birebire, hari n'icyapa cyanditseho amagambo mu buryo buhinnye ndetse no mu rurimi rw'Ikinyarwanda, hari n'agahanda karimo amabuye.

Icyumba cy'ishuri kirimo abanyeshuri bicaye mu bihande bibiri, ku ruhande rw'ibumoso rwicayemo abanyeshuri bari kurebana na mwarimu wambaye itaburiya y'umweru y'amaboko maremare ndetse n'ishati y'umweru imbere, naho uruhande rw'iburyo bicayemo abanyeshuri bari kureba ku kibahu.

Abanyeshuri b'abakobwa bari kugendera umujyo umwe, umunyeshuri ku ruhande rw'ibumoso ahetse agakapu ku ruhande rw'ibumoso, ndetse hepfo yabo hari ishyamba rifite ibiti bikuze, ruguru yabo hari inyubako zubakishije amatafari ahiye.

Umwarimu uri kwandika ku kibaho amagambo y'icyongereza, ndetse arimo n'imibare, yambaye itaburiya y'umweru, ndetse y'amaboko maremare, yambaye n'agapfukamunwa k'ubururu, yakamanuye kari munsi y'amazuru, ari kureba ku kibaho.

Abakinnyi b'abakobwa, bambaye impuzankano z'ubururu, ndetse zanditseho amagambo mu rurimi rw'Icyongereza, na nimero mu mugongo zitandukanye kuri buri umwe, imbere yabo hari abagabo babiri, n'inyubako yubakishije amatafari ahiye, ifite n'amadirishya n'ibirahuri.

Inyubako yubatswe mu buryo bugezweho yubakishije amatafari ahiye ndetse isakaje amabati, isize amarangi atandukanye ndetse ifite inzugi n'amadirishya by'ibirahuri, ku ruhande rw'ibumoso hari amabendera abiri, ku ruhande rw'iburyo hari ibendera ry'u Rwanda, ndetse ku ruhande rw'ibumoso hari ibendera rigizwe n'ibara ry'umuhondo gusa.

Icyapa cyanditseho amagambo umurimi rw'ikinyarwanda, mu ibara ry'ubururu, umukara ndetse n'umutuku, cyegetse ku nyubako yubakishije amatafari ahiye, imbere yacyo hari igiti cy'indabo, ndetse hari n'agahanda k'ibitaka gatoya.

Abanyeshuri bambaye impuzankano ndetse bahagaze imbere y'umusaraba uriho ishusho ya Yezu ndetse muremure ugera mu kirere, bamwe muri bo bifashe ku munwa abandi bifashe ku mutwe.

Abagabo babiri bahagaze imbere y'abanyeshuri bambaye impuzankano bicaye hasi ndetse inyuma y'abanyeshuri hari abanyeshuri bahagaze, umuporisi ni we uri ku ruhande rw'iburyo, naho undi mugabo wambaye ikote n'ishati ari ku ruhande rw'ibumoso.

Icyapa gishushanyije mu ibara ry'umweru cyanditseho amagambo mu rurimi rw'Igifaransa yanditswe mu ibara ry'umutuku, umukara, ubururu ndetse n'icyatsi, inyuma yacyo hari ibiti byegeranye ndetse bimwe muri byo biragandaye, ibindi ni birebire mbere yacyo hari umuhanda.

Icyapa cyanditseho amagambo mu rurimi rw'Icyongereza, kiri ku muhanda inyuma yacyo, hari umuhanda w'amabuye ndetse uri kwakaho n'amatara, impande y'amatara, hari ibiti bigandaye ndetse bikuze, inyuma yabyo hari izindi nyubako.

Abanyeshuri b'abakobwa bambaye impuzankano z'ubwoko butandukanye ndetse bahetse n'ibikapu bifite amabara atandukanye, imbere yabo hari imodoka irimo abagenzi ndetse ihagaze rwagati mu muhanda, imbere y'imodoka hari abantu bahagaze ndetse bagendera umujyo umwe.

Abanyeshuri bambaye impuzankano ndetse n'inkweto z'umukara n'amasogisi, bafashe impapuro mu biganza byabo ndetse bahanzeho amaso, inyuma yabo hari inyubako ndetse isize amarangi atandukanye.

Abanyeshuri bambaye impuzankano ndetse bari kugenda impande zitandukanye, hepfo yabo hari ibyumba by'amashuri ruguru yabo hari inyubako zitandukanye ndetse hari n'igiti kigandaye na pasiparume ndetse n'umuhanda w'amaguru n'umuhanda unyuramo imodoka.

Amagambo ari ku cyapa ndetse yandikishije ibara ry'umweru, mu ibara ry'ubururu ndetse hasi hari amagambo yandikishije ibara ry'umweru, mu ibara ry'umutuku, imbere yaho hari umuhanda nyabagendwa ndetse uri kwakamo amatara makeya mu mwijima.

Inzu ndende yubatswe mu buryo bugezweho, isize amarangi atandukanye, ifite inzugi ndetse n'amadirishya by'ibirahuri imbere yayo hari umuhanda utambika ndetse hari n'ubusitani bugizwe n'ibiti pasiparume ndetse n'indabo.

Inyubako ikuze ndetse isize amarange atandukanye, yubakishije amatafari ahiye ndetse ifite inzugi n'amadirishya by'ibirahure, isakaje amabati atukura ndetse imbere yayo hari senyenge zihakikije.

Icyumba cy'ishuri kiticawemo ndetse gifite inzugi n'amadirishya by'ibirahuri, gisize amarangi atandukanye ndetse gifite amatara abiri ari kwaka abonesha hose, imbere yacyo hari intebe ya parasitike.

Inyubako ndende igeretse kane ndetse ifite n'amadirishya arimo ibirahure, imbere yayo hari ubusitani burimo pasiparume, indabo ndetse n'ibiti. Imbere y'ubusitani hari agahanda gatambitse.

Inyubako isize amarangi atandukanye, yubatswe mu buryo bugezweho, ifite inzugi n'amadirishya by'ibirahuri, imbere yayo hari ubusitani bugizwe n'indabo, pasiparume ndetse n'ibiti bikiri bitoya.

Inyubako yubakishije amabati atukura ndetse ifite inzugi n'amadirishya birimo ibirahure, isize amarangi atandukanye ndetse inyuma yayo hari ishyamba ririmo n'umunara ndetse n'izindi nyubako zitandukanye.

Inzu mberabyombi yubatse mu buryo bwa kijyambere, igizwe n'intebe zitukura, hagati yazo harimo inzira ebyiri, imbere yazo hari mudasobwa ndetse n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga ndetse n'intebe yikaraga.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye ndetse isize amarangi atandukanye, ifite inzugi n'amadirishya by'ibirahuri, isakaje amategura, imbere yayo hari indabo, ndetse na pasiparume, n'agahanda gatambitse n'akandi kazamuka.

Umugabo uhagaze ufashe indangururamajwi mu kiganza cye cy'iburyo ndetse yambaye umupira w'icyatsi, yambaye n'ingofero y'umweru, inyuma ye hari ikirango cyanditseho amagambo mu rurimi rw'icyongereza ndetse n'imbere y'aho ahagaze hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza mu ibara ry'ubururu ndetse n'umukara n'icyatsi n'umuhondo.

Inyubako z'ubwoko butandukanye, hepfo hari inyubako zishaje ndetse ruguru hari inyubako yubatse mu buryo bugezweho ndende, ikikijwe n'ibiti ndetse hepfo yayo hari insina ziri hagati y'inyubako zishaje.

Inyubako ya kiliziya yubatswe mu buryo bugezweho, imbere yayo hari ubusitani bugizwe n'indabo ndetse na pasiparume, n'ibiti bigandaye, imbere yayo hari n'umuhanda bigiramo imodoka.

Abagabo babiri bicaye ndetse bombi bambaye indorerwamo z'amaso, ndetse bari kwandika, imbere yabo hari mudasobwa, ku ruhande rw'iburyo hicaye umukobwa wambaye ikote ndetse ufite n'imisatsi miremire, inyuma yabo hicaye abandi bantu na bo bari kwandika.

Inyubako zisize amarangi atandukanye ndetse zifite inzugi n'amadirishya by'ibirahuri, hagati yazo hari ibiti bigandaye ndetse hari n'igiti kirekire, n'ubusitani bugizwe n'indabo, ndetse na pasiparume, imbere yayo hari agahanda kamanuka ndetse hari n'akandi gaca mu nyubako rwagati.

Umugore uri guseka utunze agatoki ku biryo yambaye ikanzu y'igitenge ndetse afite imisatsi miremire y'umukara iboshye, imbere ye hari abatetsi bari kwarura ndetse bambaye n'impuzankano, hirya yabo hari abandi batetsi na bo bari kwarura bari mu mirimo imwe.

Inyubako yubakishije amabuye, isize irangi ry'umuhondo ndetse ifite inzugi n'amadirishya by'ibirahure, imbere yaryo hari ibaraza ndetse hari ubusitani bugizwe n'indabo na pasiparume, ku ruhande rw'ibumoso hateye umugano.

Icyapa gisize ibara ry'ubururu ndetse cyanditsweho amagambo mu rurimi rw'Icyongereza, inyuma yacyo hari ibiti bikuze ndetse hari n'inyubako yubakishije amatafari ahiye, imbere yacyo hari ubusitani bugizwe na pasiparume n'indabo.

Inyubako zubakishije amatafari ahiye ndetse zisakaje amabati atukura, inyuma yazo hari ishyamba ndetse n'imbere yazo hari ubusitani burimo pasiparume ndetse n'ibiti bikeya bitoya, hari n'imihanda igiye ica hagati mu busitani.